Mu cyumba cy'inama harimo umugabo n'umugore basa neza bicaye ku ntebe buri wese afite mudasobwa ndetse naho bicaye harasa neza .

Abagabo bane bose baricaye bambaye neza basa nkaho bari mu kazi bahuriyemo, inyuma hari icyapa kigaragaza ko ari abakozi ba rura kuko inyubako barimo niho rura ikorera.

Icyumba kiberamo inama abaturage bitabiriye ndetse n'abayobozi, umuyobozi umwe w'umudamu ari kwigisha abaturage ko bakwiye kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bakimakaza kumvikana ndetse no kubahana.

Umuyobozi w'akarere ka Huye ari kuganiriza abaturage bitabiriye inama yari yabaye uyu munsi, ko ibyo baba bavugiye hano baba bagomba gutaha bakabishyira mu bikorwa kuko nibyo bizatuma igihugu gikomeza gutera imbere umunsi ku wundi.

Abaturage bicaye mu nama harimo abagore harimo n'abagabo, bose barakurikiye bicaye munsi y'ihema ku ihema ku ruhande hariho ibitambaro bifite amabara agize irapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba cy'inama hitabiriye abantu batanu, muri abo batanu, bane barakurikiye, undi umwe ari imbere ari kubabwira, arasa nk'aho ari umumama ukuze, yambaye ishati y'umuhondo, yambaye igitambaro mu mutwe, yambaye n'amarinete ndetse afite na mikorofone.

Icyumba kiberamo inama y'abayobozi uyu munsi inama yabaye hitabiriyemo abagabo aribo benshi, bose bambaye neza bambaye amakoti meza amashati meza ndetse na karuvati, bose barakurikiye kuko ibiri kuvugirwa muri iyi nama ari ingenzi.

Mu cyumba cy'inama abayobozi bose bo mu karere bateranye bari kuganira ku byo bakora kugira ngo iterambere muri aka karere ryiyongere, umugore w'intwari cyane witwa Mizero amanitse ikiganza kugira ngo atange igitekerezo cye.

Umugore mwiza w'umunyarwandakazi, yambaye ikanzu nziza cyane afite n'imisatsi myiza yambaye n'isaha, arimo arabwira urubyiruko ko aribo mbaraga z'ejo z'igihugu kandi ko bafite kubizirikana bityo bagashyira umurava mu byo bakora.

Mutwarasibo Esperance yahisemo gukorera inteko hafi na gare ya nyabugogo kuko abaturage batuye mu isibo ye hafi ya bose ni abacuruzi kandi bakorera muri Nyabugogo yahisemo kutabicira akazi ahubwo araza kugira mu minota mirongo itatu bose babumvise icyo yashakaga kubabwira bitabasabye gusubira mu ngo.

Icyumba kinini cyane kiberamo inama, gisa neza kandi gifite isuku, harimo intebe nziza cyane, hitabiriyemo abagabo ndetse n'abagore, bose barakurikiye, bafite amatsiko yo kumva icyatumye babahamagaza.

Mu cyumba cy'inama abakozi bose bitabiriye kugira ngo bumve icyo umuyobozi wabo ashaka kubabwira kandi nabo batange ibitekerezo byabo, urabona ko buri wese arakurikiye kugira ngo abone aho ahera atanga igitekerezo cye.

Icyumba cy'inama abantu benshi bitabiriye harimo; abagabo, harimo abagore ,harimo abirabura ndetse harimo n'umuzungu aba bantu bose barakurikiye, imbere y'abo bafite amazi yo kugira ngo babafashe gukurikira neza n'igihe bafite ibitotsi be gusinzira.

Mu cyumba k'inama uyu munsi habereyemo amahugurwa y'urubyiruko, umukobwa mwiza cyane wambaye umupira usa umukara afite indangururamajwi ari kubwira bagenzi be igitekerezo ke, abandi na bo barakurikiye bigaragaza ko ibiri kuvugirwa muri aya mahugurwa byose ari ingenzi.

Umuyobozi w'Akarere ka Nyagatare, uhagarariye ishoramari muri ako Karere, yaje kuganiriza abacuruzi n'abandi bashoramari, bashaka gutangiza ibikorwa byabo muri aka Karere ka Nyagatare.

Abagabo bambaye neza bicaye mu cyumba kiberamo inama bigaragara ko ari abayobozi, buri wese ari gutekereza cyane ashaka igitekerezo yatanga ku byo bari kuhavugira.

Umukobwa wambaye amaherena ni misatsi y'umukara n'inzara z'umukara uri gukanda ku gikuta cy'umweru cyera, uri kwamamariza umuyoboro w'itumanaho rya airtel mu gukwirakwiza amafaranga mu buryo bwo kugura umuriro mu buryo bworoshye.

Mu bikorwa by'igihugu bigamije iterambere ry'abaturage, baje guhemba abagore bitwaye neza cyane kurusha abandi, hano kwitwara neza ni mu bikorwa bitandukanye, yaba mu burezi, yaba mu buhinzi, yaba mu buvuzi ndetse n'ibindi bikorwa byose kuko abagore muri buri bikorwa babahaye ikaze ntanahamwe bagihejwe.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu afite mikorofone, arimo arabwira abantu, inyuma hari abandi bantu bamuhagaze inyuma bigaragara ko ari abo bakorana baje bamuherekeje.

Icyumba kiberamo inama, abasabwe kwitabira iyi nama bose bahageze baje bazindutse, bose baricaye baratuje umuyobozi ari kubabwira icyo yabatumirijeho, bamwe bari kwandika muri telefone, abandi bo baje bitwaje amakayi n'amakaramu kugirango ibivugirwamo baze kubyandika.

Inama yabaye hitabiriyemo urubyiruko rwinshi cyane ndetse n'abayobozi bahitabiriye hajemo n'inzego z'umutekano zizwi nka daso bose bambaye impuzankano y'akazi.

Umugore mwiza wambaye ishati y'umuhondo yambaye nigitambaro mu mutwe ndetse yambaye n'indorerwamo afite mikorofone, imbere ye ari kureba muri mudasobwa uko bigaragara ari gusobanurira abitabiriye ibigendanye n'iki kigo cyitwa tafisa.

Ku murenge wacu batumijeho abaturage bose batuye muri uwo murenge ko umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wacu hari ibyo ashaka kubaganiriza bitewe n'ihohoterwa rimaze igihe rikorerwa mu ngo.

Umuma wicaye ucuruza ibishyimbo, avoka, imineke, inanasi, ibinyomoro n'amacunga, afite agatambaro mu ijosi yambaye ikote ry'umukara ibishyimbo bikaba biri ku rutaro harajeho yorosheho ishysho y'ubururu.

Mu nteko y'abaturage abaturage bahageze bazindutse bose bafite amatsiko yo kumva icyo umuyobozi w'akarere uyu munsi arababwira abafite ibibazo nabo baje kare kugira ngo ibibazo bafite baze kuhava bikemutse kuko ubuyobozi bwabegereye.

Icyumba kiberamo inama, hatumijwemo abagabo ndetse n'abagore, bose bakora mu bikorwa by'ubuvuzi ndetse n'uburezi, bongera kubibutsa uko bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Buri wese bamuhaye mudasobwa, ari kugenda akora ibyo bari kubabwira gukora, bakoresheje iyi mudasobwa.

Mu nama abagabo batatu bari bari kuganira, gusa bisa nkaho ingingo bagezeho buri wese arimo arashaka igitekerezo yayitangaho. Ariko uko bigaragara, bishobora kuba bitoroshye, kuko urabona ko, uwambaye ikoti ry'umukara yifashe ku kananwa bisa, nkaho yumiwe.

Mu cyumba k'inama kinini cyane kandi gisa neza, hamanitsemo ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame. Abayobozi b'inzego zitandukanye bose bahuriye hamwe kugira ngo bakomeze kwiga ku cyateza igihugu cy'u Rwanda imbere.

Icyumba cy'inama hitabiriyemo abagabo ndetse n'abagore bigaragara ko bose ari abayobozi, bamwe muri bo barakurikiye, undi umwe wicaye imbere yasinziriye, abandi inyuma babiri basa nk'aho hari ibyo bari kuganiraho.

Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare arashimira abafatanyabikorwa ndetse n'abaterankunga kuba bakomeje gufatanya ibikorwa bashakaga gutangiza muri aka karere, bikaba byaragenze neza. Ari no kubasaba kandi kuzakomeza bagafatanya mpaka ibikorwa byabo bikwiye mu gihugu cyose cy'u Rwanda.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Reveni Otoriti, kirongera kwibutsa abanyarwanda ko itariki mirongo itatu nimwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ariwo munsi wa nyuma wo kuba bamaze kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa.

Ni inyubako iriho icyapa, kigaragaza ko ari mu karere ka Nyanza, uruganda rutunganya ibikomoka ku nka. Hari amata, hari yawurute, hari ayo mu tujerekani, ndetse n'amata yo mu dukombe. Uru ruganda ruherereye i Nyanza.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, intego nyamukuru y'uyu munsi ni ubumenyi n'umurimo unoze inkingi y'iterambere, abatumirwa baraza kutuganiriza hari Mwambari Faustin, Biraboneye Afriue na Mutagoma Felixe.

Umunara muremure ufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, bawubakiye urugo ruhazengurutse. Ku ruhande rw'uyu munara hari inzira, abagenzi bacamo bajya mu mirimo yabo.

Gutangiza ku mugaragaro ukwezi ko gushimira abasora. Umusoro wawe wagize kandi uzakomeza kugira uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza turashimira abasora, dufatanye kuzahura ubukungu.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, Rwanda revenu otoriti kirongera kwibutsa abantu ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi ibiri na makumyabiri na kane ari wo munsi wa nyuma wo kuba bamaze kwishyura umusoro wa kabiri ku nyungu.

Bari kwerekana intambwe ya kane uko arabigenza. Arakanda kuri risaba hanyuma akurikize amabwiriza. Ibyo asabwa agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda, usaba agomba kuba afite imyaka hejuru y'imyaka cumi n'itandatu. Abasaba bagomba kugira numero ya telefoni cyangwa aderesi ya email bikora kugira ngo bakire imenyesha.

Ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, irongera kwibutsa ko itariki ntarengwa ari mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane kuba bamaze kwishyura umusoro wa gatatu.

Abakozi basanzwe bakorera muri za ofise uyu munsi bahisemo kwegera abaturage kugira ngo abo bigora kubera kubura uburyo bwo kubageraho bahagere biboroheye maze babashe guhabwa serivisi zihuse.

Itangazo ryatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti rigaragaza ko hasigaye umunsi umwe, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane abantu bose bakaba bamaze kwishyura imisoro kandi bakirinda gukererwa kugira ngo badahanwa.

Repubulika y'u Rwanda, minisiteri y'abakozi ndetse na serivisi bizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe abakozi, uyu munsi uba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka, muri bibiri na makumyabiri na rimwe bari bafite intego ivuga ngo bateze imbere abakozi bongere ubukungu.

Toyota ya Paskari imaze gusaza kandi nta gihe kinini arayimarana kubera ko akomeza ayikoreza ibintu byinshi cyane biyiruta, kandi yagatiye Kazungu dayihatso akaba ariyo abitwaramo kuko bikwirwamo.

Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza cyane cy'imisozi igihumbi, bafite ibyiza nyaburanga byinshi, ariko uyu munsi ndashaka kubabwira cyane cyane mu birunga, mu birunga harimo ingagi, ndetse ba mukerarugendo benshi, baza arizo bashaka kujya gusura nawe wahagera ubundi ukareba izo ngagi ukuntu zishimishije.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima kishimiye kongera kwibutsa abaturage ko bagiye kongera kubaha urukingo rubarinda kanseri y'umwijima, bari kubaza abaturage niba biteguye kuko iminsi isigaye ni ibiri gusa ubundi urukingo rukaba rwabagezeho.

Irinde kuba wakwandura koronavirus igihe uri muri bisi, ishyura ukoresheje ikoranabuhanga ibuka gukaraba intoki usige intera hagati yawe n'abandi bantu, kandi gusuhuzanya cyangwa guhoberana ukoresheje intoki ntabwo byemewe, ambara neza agapfukamunwa kugirango wirinde urinde n'abandi.

Agace karimo ibiti byinshi kandi byiza, bisa neza. Ku giti kimwe bashyizeho icyapa kigaragaza ko hano muri aka gace hari wifi. Bishatse kuvuga ko abantu bafite simatifone cyangwa se mudasobwa bashobora gukoresha enterinete.

Agace gatuyemo abaturage benshi cyane, amazu yabo yubatse neza mu buryo bugezweho, kandi yose arakomeye. Ku ruhande begeranye n'umunara wubakiwe uruzitiro. Uko bigaragara, abaturage bari hano ntago bapfa kubura amarezo.

Mu isoko rya Nyabugogo aho bagurishiriza imbuto, umucuruzi yifashi ku itama kuko yabuze abakiriya kandi yari akeneye amafaranga, ari gucuruza inanasi, amapapayi, amaronji, imyembe, ndetse n'ibindi.

Ikigo gishinzwe uburezi mu rwanda cyahaye ibikombe abanyeshuri batsinze neza murwego rwo kugira ngo ashishikarize n'abandi banyeshuri bose kwiga neza kandi bagatsinda. Kuko guhemba abanyeshuri bituma abatahembwe bagira ishyaka kugira ngo igihe kiri imbere nabo bazabahembe.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uyu munsi nta kavuyo k'ibinyabiziga karimo, abagenzi bari kugenda bisanzuye, umuhanda wegereriye ibiti byinshi cyane kandi byiza, ku buryo abagenda muri uyu muhanda bagenda bumva amahumbezi.

Igikoresho gisa umukara hariho akapa k'umuhondo kabwira ukoreshe iki gikoresho kwitonda kuko gishobora gushyuha, iki gikoresho ni umugozi bacomeka ku mashini ari zo zizwi nka mudasobwa kugira ngo bongeremo umuriro bityo imashini ntizime bakomeze bayikoreshe.

Ikibuga cy'ibitaka giciyemo imirongo y'umweru gifite n'inshundura hagati gikinirwaho umukino w'amaboko witwa tenisi hakurya hari aho abafana bicara, hakurya hari ishyamba ry'ibiti byinshi.

Umuhanda mwiza cyane kandi munini, harimo amazu menshi agiye atandukanye, inzu yo ruguru y'umuhanda bashyizeho bariyeri kuko badashaka ko ibinyabiziga byose bijya bihagera ntaruhushya byahawe.

Mu muhanda mwiza cyane wa kaburimbo ufite akayira k'abanyamaguru ku ruhande hariho amarangi meza cyane y'umweru n'umukara ku ruhande rw'akayira k'abanyamaguru harimo agacaca keza ndetse n'indabo zisa neza gusa ifoto rihashinze rigiye kugwa kuhanyura ni ukwigengesera kugira ngo ritakugwaho.

Umuhanda urimo imodoka urimo abagenzi ndetse n'amapikipiki ku ruhande rwawo hahinze indabo ndetse n'ubwatsi bwiza busa neza hari n'icyuma gifata insinga z'amashanyarazi .

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite igipangu cyiza kandi gikomeye kuko cyubakishijwe amatafari ahiye, hano umuriro barawufite w'amashanyarazi kandi n'igihe hagize ikibazo kivukamo biroroha kuba bagikora kuko begereye ipoto.

Inyubako ndende kandi nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, kuri iyo nyubako hariho ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwamo hari icyapa cyanditseho papeteri irembo, hari n'ikindi kigaragaza aho buritamu ikorera.

Agace gakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, bari kubaka inzu izaba ari nini kandi ari ndende. Iyo nyubako iri kubakwa nayo izakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, aka gace kuhagera biroroshye kuko bafire umuhanda mwiza cyane kandi mumini wa kaburimbo.

I Kigali ku Gisozi hari amazu meza cyane yubatse mu buryo bwiza bugezweho ndetse umuhanda wa kaburimbo nawo urasa neza urasukuye kandi kuruhande bashyizeho akayira k'abanyamaguru, kugirango bakomeze kwirinda impanuka.

Mu duce twose duherereye mu karere ka musanze cyane cyane mu mujyi buri gace bafite umuriro w'amashanyarazi. Ubu ntawe ugikoresha amabatiri cyangwa se imirasire kuko ahantu hose insinga z'amashanyarazi zirahari biroroshye kuba bafata umuriro.

Igikorwaremezo cy'umuhanda w'abanyamaguru ndetse w'ibinyabiziga, aho ibinyabiziga hari kugenderwaho n'ibinyabiziga mu bwoko bwa moto eshatu, ebyiri zitwawe n'abayobozi bazo ndetse bafite abagenzi batwaye, ndetse n'indi imwe idafite umugenzi utwaye ahubwo itwawe n'umuyobozi wayo gusa.

Inzu ya Petero yayubatse neza, ayisiga amarangi meza, imbere hari n'ibiti byiza, ariko Petero ikintu atakoze neze ni uko ku nyubako ye yashyizeho amabati ashaje, ku buryo imvura iramutse iguye nyinshi mu nzu ye hava.

Agace karimo amazu y'ubucuruzi ndetse hari n'icyapa cya emutiyene byereka abantu igihe bashaka kugura pake ya irekura, uko bayigura ko bakanda akanyenyeri magana atatu, mirongo ine na gatanu, akanyengeri rimwe urwego, ubundi bakagura pake hari n'imitaka ya emutiyene ndetse imbere y'iyo mitaka hari n'amapikipiki atwaye abagenzi.

Umuturirwa ugeretse inshuro zirenze ebyiri, ukaba ufite amabara arimo shokora n'umukara, ukaba uri mugipangu gikikijwe n'ibiti n'igipangu cyubakishijwe amatafari, imbere yaho hakaba hari umunara ufite insinga z'amashanyarazi.

Inyubako y'ibitaro bya CHUB biherereye i Butare, imbere yayo hari Ambulance ebyiri zihahagaze ari zo mbangukiragutabara, hari umugore uri no kuri telefone bisa nk'aho avuye kugemura muri ibyo bitaro.

Mu nyubako z'ibitaro zitandukanye, bose bagenda bahashyira umwanya uhagije, aho ibinyabiziga biparika, igihe bizanye abarwayi cg se bagiye kubajyana ahandi cg se babacyuye, hano bafite parikingi nini cyane ku buryo ibinyabiziga umubare munini cyane baza bakabababasha kuhaparika.

Umuhanda mwiza cyane usukuye hariho parikingi nini ihagije aho imodoka zihagarara, uko bigaragara hano ni ahantu habera ibikorwa byo mu nzego za leta kuko harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'idarapo ry'umuryango w'Afurika y'iburasirazuba.

Icyapa cyerekana aho ibitaro bya Kacyiru biri ndetse kikerekana na serivisi z'ubuvuzi zihatangirwa, hari inzu y'ababyeyi, hari aho bavura indwara z'amenyo, guca mu cyuma, aho batangira imiti, aho batangira ibizami, ubuvuzi bw'impinja, abana bataha n'ibindi.

Inyubako nziza kandi ndende yubatswe mu buryo bugezweho, ku ruhande basize ahantu hatwikiriye aho abahatambuka baca batari kwicwa n'izuba, gusa umucaca wabo warumye basabwa kongera kuwuhira kugira ngo wongere ushibuke.

Inyubako nziza cyane kandi nini bigaragara ko ari inyubako ikorerwamo ibikorwa byo kuvura abarwayi twabyita ko ari ikigo nderabuzima zifite parikingi nini cyane aho imbagukiragutabara zizanye abarwayi cyangwa zibajyanye ku bindi bitaro zihagarara.

Ni iduka rigurisha ibikoresho by'abadamu n'amasakoshi inkweto ndetse n'ibindi. Bikaba bigaragara ko bipanze ku buryo bigiye bikurikirana kandi busumbana.

Ni ku bitaro, inzira abarwayi bacamo bajya cyangwa bava mu bitaro, imbere hari icyapa gishushanyijeho ijisho rishaka kwereka abarwayi, aho umuganga w'amaso ari.

Mu nyubako z'ibitaro bagenda bashyiraho utwapa twanditseho aho serivisi zitandukanye zikorera, niba ari farumasi ukabereka aho barayisanga niba ari umuganga w'uruhu na ukaberereka kugira ngo abarwayi ntibazenguruke ibitaro byose babuze aho bajya.

Ikigo gishinzwe ubuzima minisante gikorera mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi cyagaragaje ko bamaze kugira imbangukiragutabara nyinshi bityo abaturage badakwiye guhangayika, kuko buri wese urebye, aho yaba ari hose imbangukiragutabara ihari kandi bazaza bakamufasha byihuse.

Abayobozi basa neza, bambaye neza, bahagaze ku murongo kugira bifotoze, harimo abagabo bambaye iniforome y'abayobozi ba gisirikare, harimo n'abandi bambaye ikositimu ariko bigaragara ko ari abayobozi bakomeye b'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore mwiza cyane uri kureba atuje yambaye umwambaro w'akazi, uko bigaragara ashobora kuba ari umwavoka cyangwa se akaba ari umucamanza cyangwa akora ibindi bijyanye no murukiko.

Umugabo ubyibushye w'inzobe yambaye rinete zirasa umukara, uyu mugabo uko bigaragara yari ari kwifotoza ifoto ya pasiporo, umugabo ashobora kuba ari umwavoka cyangwa se umucamanza.

Abagabo benshi bambaye impuzankano isa iroza, bose bambaye udupfukamunwa, bari ku murongo. Biragaragara ko ari imfungwa. Ku ruhande hari abandi bagabo, bambaye na bo b'impuzankano y'akazi, bigaragara ko ari ababacunga.

Mu rukiko abakozi batatu harimo abagore babiri ndetse n'umugabo bose bambaye impuzankano y'akazi, aba bakozi uko bigaragara ni abavoka cyangwa se akaba ari abacamanza.

Umugabo munini cyane ubyibushye ufite imisatsi myinshi cyane kandi yambaye na linete uyu mugabo bitewe n'impuzankano yambaye biragaragara ko ari umusirikare kandi ukomeye kuko ku myambaro ye hariho amapeti.

Umugabo n'umugore bigaragara ko bakora mu rukiko, bose bari mu kazi. Bambaye impuzankano ndetse buri wese afite mudasobwa; bose bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko hari icyorezo gihari kibahangayikishije badashaka kwandura.

Mu rukiko abagabo babiri bari kuganira umwe yambaye imyenda y'imfungwa, undi yambaye umwenda w'akazi, bigaragara ko ashobora kuba ari umu avoka cyangwa se akaba ari umucamanza, uwambaye umwenda w'iroza birasa nkaho ashaka ko bamugabanyiriza igihano.

Inyubako nziza kandi ndende, inyuma yubakishijwe n'ibirahure gusa, imfungwa zirimo zirayigana hamwe n'abazirinda, mu byukuri baje kubaganiriza kugira ngo amakosa bakoze cyangwa ibyaha bafungiwe ntibazabisubire ukundi.

Umugabo munini wifotoje atishimye cyane yambaye ishati ijya gusa umweru yambaye na karuvati irimo utudomo tw'umutuku, uyu mugabo yambaye umwambaro w'akazi uko bigaragara ni umwavoka cyangwa se akaba ari umucamanza.

Mu rukiko umugabo wambaye ikositimu n'ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara azengurutswe n'abagabo babiri bose bambaye imyambaro y'akazi bishoboka ko ari abavoka baje kumwunganira, mu rukiko kandi harimo n'abandi bantu baje kumva ibivugirwamo.

Umugore mwiza wambaye neza ,yambaye n'amaherena afite mikorofone arimo arabwira abaturage bo mu karere ka Rulindo uko bakwiye kurwanya ruswa, ababwira ibibi bya ruswa .Abaturage baramukurikiye kuko nawe ubwe ari kubabwira ibintu azi neza.

Mu rukiko harimo abavoka benshi Bose bambaye impuzankano yabo y'akazi. Hari n'umugabo bigaragaza ko ariwe waje mu rubanza yambaye imyenda igaragaza abagabo bafunzwe.

Inyubako nini bigaragara ko ari igororero hariho icyapa cyanditse kari gereza ya Nyarugenge, harimo abagabo bari kumanurwa hepfo bamwe bambaye ibisa ariko harimo undi umwe wambaye imyenda y'iroza.

Abagabo babiri bambaye umwenda w'akazi bigaragaza ko ari abavoka cyangwa bakaba ari abacamanza, bari kumwe n'undi mugabo wambaye umwenda ugaragaza ko afunzwe, uwo mugabo yambaye na marinete. Uyu mugabo ashobora kuba ashinjwa ibyaha byo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda.

Umugabo Felecien Bagirarubwira yambaye neza yambaye ishati ndetse na karuvati, inyuma yarengejeho umwenda w'akazi, uyu mugabo ni umucamanza cyangwa akaba ari umu avoka akorera mu karere ka Nyagatare.

Umugore mwiza w'umwirabura yambaye umwenda mwiza ugizwe n'ibara ry'umutuku hagati hakaba harimo umweru, nta misatsi myinshi cyane afite ariko arasa neza cyane.

Umugabo munini wambaye indorerwamo yicaye iwe muri salo intebe ze ni nziza cyane ni iz'imisego umuntu arazicaramo akumva aguwe neza cyane ndetse afite n'akabati keza hejuru hateretse ibiseke.

Inkiko gacaca abaturage bateranye, barimo barashinja abantu bose bazi bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda, mirongo icyenda na kane.

Hano ni mu gihugu cy'u Rwanda mu bihe byashize aho abaturage bose bitabiraga maze abahamwa n'ibyaha bya jenoside bagahanwa, kuko ibyaha bakoze byatwaye ubuzima bwa benshi.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, bimwe muri byo ni amagare abiri ahetse abagenzi ikindi nii ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru cyangwa se ikamyo kikoreye inyuma imizigo bashumikishije itente cyangwa se igitambaro cy'ubururu.

Abagabo babiri bose bambaye neza bambaye amakoti meza cyane ndetse na karuvati biragaragara ko ar' abapasiteri barimo barahana impano ndetse aho bari inyuma harimo n'ingoma za kizungu bavuza mu nsengero ndetse no mu birori.

Umupolisi uri mu muhanda ahagaze aho abanyamaguru bambukira ari guhagarika abayobozi b'ibinyabiziga kugira ngo abagenzi batambuke, imbere ye hari icyapa cyanditseho ngo ni ayawe mu bawe.

Umuhanda munini kandi mwiza wa kaburimbo, ibinyabiziga biragenda nta kibazo, ndetse n'abagenda bapakiye imizigo na bo baragenda. Ku ruhande bahagaze umupolisi wambaye impuzankano y'akazi.

Mu inyubako bazanyemo kizimya moto ebyiri mu rwego rwo kugirango igihe cyose haramutse habaye inkongi y'umuriro ,ubutabazi buzabe buri hafi . Nibyiza guteganya kuko ibyago bidateguza.

Umuhanda ni mwiza kandi ni munini ndetse ku ku muhanda hazengurutswe n'ibiti byiza, mu muhanda hari imodoka itwaye abapolisi ndetse inyuma y'imodoka hari n'amapikipiki nayo y'abapolisi bigaragara ko bari kureba ko umutekano ari wose, abayobozi batwara ibinyabiziga bubahiriza amategeko cyane cyane kubera gutinya polisi.

Umuhanda wa kaburimbo munini cyane kandi usa neza ibinyabiziga byose bigendamo nta nkomyi ku ruhande hari amapikipiki ndetse hubatse amazu akorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi uyu munsi mu muhanda polisi yagiye izenguruka kugira ngo irebe neza ko abayobozi bose bubahiriza amategeko y'umuhanda.

Mu muhanda rwagati, ibikamyo babihagaritse, ndetse n'abayobozi babyo babasohoye. Abagenzi bari batwaye na bo babakuyemo, polisi ziri kubasaka. Babicaje hasi, kuko hari amakosa menshi bakoze.

Ni mu nzu mu cyumba kigairi cyahariwe gukorerwamo inama hateraniyemo abantu batanu abagore n'abagabo, umwe muri bo ari imbere ari kubasobanurira yifashishije ikoranabuhanga.

Umujyi wa Kigali umuhanda munini cyane ibinyabiziga biri kugenda, hahagaze umupolisi wambaye impuzankano y'akazi kugirango afashe ibinyabiziga kugenda, ndetse n'abanyamaguru babasha kwambuka murwego rwo kwirinda impanuka.

Abaturage bishimiye igikorwa barimo, bigaragara ko bari kwamamaza umuryango FPR, inyuma hari ufite icyapa kiriho ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aba baturage barishimye bigaragaza ko ariwe bashyigikiye.

Umugabo wambaye ikositimu, ipantaro ndetse n'ikote bisa, mo imbere yambariyemo agapira kariho ifoto ye. Uyu mugabo imbere ye hateretswe mikorofone ari kubwira abaturage ko yifuza ko bazamutora kuko ashaka kuba yaba perezida w'Igihugu cy'u Rwanda.

Imbuga nini igizwe n'amapave inyuma hari ibiti byiza abantu bari k'imirongo abagabo abagore ndetse n'abasore bose bigaragara ko baje mu gikorwa kimwe bakaba bategereje kwinjira.

Icyumba kiberamo inama uyu umunsi abaje mu nama bose ni abayobozi bambaye neza barasa neza, abagabo bambaye ikositimu nziza cyane, abagore nabo bambaye imikenyero, bose barasa neza kandi baje bazindutse.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yambaye ikote ryiza n'ishati byiza ndetse na karuvati, arishimye cyane kuko iyo abona abaturage bameze neza iteka bimutera akanyamuneza kuko ibyo akora byose nibo abikorera.

Icyumba cy'inama kinini kandi cyiza harimo abagore benshi beza basa neza bambaye neza, bafite amazi ndetse n'amaji barahagurutse bari kuririmba bigaragara ko bishimiye igikorwa barimo.

Mu karere habaye ibirori byitabiriwe n'abagore benshi cyane, kandi baza bose bambaye imikenyero nk'umwenda uranga umunyarwandakazi iyo agiye mu birori, uyu munsi habaye umunsi wo kwizihiza umugore.

Umugabo wambaye ishati nziza cyane na karuvati, inyuma yarengejeho ikote ryiza rifite ibara ry'umukara, haciyemo uturongo tw'umweru, ahagaze imbere y'abaturage benshi cyane arimo arababwira ibyo yateguye kubabwira kuri uyu munsi.

Umuhanda mwiza kandi ufite isuku bashyizeho akayira k'abanyamaguru gahagije, bamwe baratambuka abandi nabo bagakora imyitozo ngororamubiri, ku mpande hariho inyubako ikorerwamo n'ikigo cyitwa radiyanti gikora ibigendanye n'ubwizigame ndetse no kwishinganisha.

Mu gikorwa cyo kwiyamamaza abaturage benshi bitabiriye bambaye imyenda yariho ibirango by'umuryango efuperi, umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ari kubabwira imigabo n'imigambi.

Umugabo witwa Filipe yambaye ishati n'ipantaro na karuvati y'umutuku afite mikorofone, yahamagaje abaturage kugira ngo ababwire imigabo n'imigambi ye, kuko yifuza kuba yaba perezida w'igihugu cy'u Rwanda.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame afite mikoro yambaye ishati bigaragaza ko ari impuzankano ya efuperi inkotanyi ahangaha ari kwiyamamaza mu bikorwa yari ari kwiyamamarizamo byo kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Umudamu mwiza cyane, ufite imisatsi myiza kandi wambaye neza, ari kumwe n'abana be babiri b'abahungu beza, kandi na bo bambaye neza. Uyu mudamu yitwa Uwiringiyimana Agatha, yahoze ari minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda.

Abaturage bo mu gihugu cy'u Rwanda, bose bambaye imyenda, iriho ibirango by'umuryango efuperi inkotanyi, baje mu bikorwa byo kwamamaza umukandida wa efuperi, ari we nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame, abaturage barishimye cyane, kuko umukandida watanzwe n'ubundi yari asanzwe ari perezida wa repubulika kandi bigaragara ko ashoboye cyane.

Mu gihe cy'amatora mu gihugu cy'u Rwanda abari bari kubara amajwi bageze ku mukandida ariwe kagame Paul babara amajwi bagera aho nabo ubwabo bararuha, kuko abaturage bose b'igihugu cy'u Rwanda bari bishimiye ko Kagame Paul ari we wakongera akababera perezida.

Umugore mwiza wambaye ishati y'umweru afite imisatsi myinshi kandi myiza biragaragara ko ari umuyobozi .Imbere ye hari idarapo ryahoze ari iry'igihugu cy'u Rwanda mu gihe cyashize uyu mugore ni UWIRINGIYIMANA Agatha aba mu ntwari z'u Rwanda yapfuye igihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane(1994).

Icyumba kinini gikorerwamo inama cyane cyane inama z'abayobozi, uyu munsi nabwo bafite inama baje bambaye neza cyane nk'abayobozi, barasa neza bambaye amakote amashati ndetse na karuvati.

Icyumba kinini bigaragara ko haberamo inama cyangwa se umushyikirano harimo abamama bambaye neza bambaye imikenyero, abagabo nabo barimo bambaye amakositimu urabona ko ukuntu bambaye biriyubashye, bamwe bafite amamashini abandi imbere yabo hateretse amazi bisa nkaho buri wese yahaye agaciro inama ajemo.

Mu muhanda harimo umugenzi wikoreye umufuka, harimo n'imodoka nziza ifite ibara ry'umweru n'umukara, ku ruhande iri kubisikana n'igikamyo kinini gifite ibara ry'ubururu inyuma imbere kikagira ibara ry'umweru.

Umuhanda mwiza usukuye wa kaburimbo ni munini cyane, kuko buri kinyabiziga kigenda cyisanzuye nta kugongana, hari kugendamo igikamyo cy'umutuku ndetse n'umuyobozi utwaye ipikipiki.

Ni kamyo nini ya randekuruza ya rukururana irimo gukurura izindi, iri mu muhanda igenda, umuhanda nyabagendwa arikohande muhanda irenze ahantu ku kiraro inyuze munsi y'ikiraro kigeretseho undi muhanda hejuru, ni umuhanda ufite icyapa kiri ku muhanda kitagaragaza ibyo kivuga n'ipoto y'amashanyarazi ndetse n'agashyamba kanini cyane.

Umuhanda mwiza wa Kigali uva Nyabugogo ujya Kimironko aha ni ku kinamba cya kabiri, hano imodoka zimwe zica hasi izindi nazo zigaca hejuru kandi zitagonganye kuko iki kiraro kiragerekeranye.

Icyumba cy'amashuri cyiza cyane, gifite n'igipangu cyiza gisize amarange asa neza, bafite parikingi nini aho imodoka zizanye abanyeshuri cyangwa abakozi ziparika, zitabangamiye ibindi binyabiziga biri mu muhanda.

Mu mujyi wa Kigali ubu noneho abanyonzi nabo basigaye bemerewe gukora, kuko imihanda ni minini, barabibonye ko nta mpanuka zapfa kuhaba, kandi abanyonzi nabo basabwa kugenda bitonze kuko mu muhanda imodoka zishobora kubagonga.

Umuhanda uherereye i Kigali udukaritsiye tuba turi hirya y'umujyi gato, dutuyemo abantu hano mu muhanda ku ruhande haparitse ipikipiki ifite ibara ry'umutuku, ifite n'igisanduku cy'umuhondo bigaragara ko umuyobozi w'iyipikipiki yahashye ibintu abishyira muri iki gisanduku akabitwara neza yisanzuye.

Iyi ni inzu y'ubwishingizi ahangaha uraza bakaguheza ubwishingizi. Ugashinganisha ibikorwa byawe, ugashinganisha amazu yawe, ugashinganisha umuryango wawe n'abana bawe.

Umuhanda mwiza munini wubakishijwe amapave ku mpande haparitse amapikipiki bigaragara ko abamotari bategereje abagenzi, muri uyu muhanda imodoka ziragenda ndetse n'abanyamaguru nabo baragenda.

Imodoka y'idayihatsu ifite ibara ry'umweru, inyuma ifite karisoru, ipakiye imizigo batwikijeho ihema kugira ngo imvura niramuka iguye iyo mizigo itaza kunyagirwa ikangirika.

Umuhanda mwiza kandi munini cyane urasukuye ,umuhanda harimo imodoka ifite ibara ry'umutuku kandi hari kugendamo n'umunyonzi mu muhanda ,k'uruhande abubatse bibutse gusigaho inzira y'abanyamaguru ,k'uruhande rundi nabwo bashyizeho ibiti kugirango abagenda mu muhanda bajye bumva akayaga.

Umuhanda mwiza munini cyane wa kaburimbo urasukuye ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru, hari n'amatara amuririka abagenzi nijoro hariho n'ibiti, mu muhanda hari kugendamo imodoka y'ubwoko bw'indayihatso isa umweru.

Umuhanda mwiza cyane usukuye wubatse neza ku ruhande bibutse gusigaho akayira k'abanyamaguru, kuburyo ari abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga byose bigenda nta nkomyi. Kuri uyu muhanda kandi hateyeho ibiti byiza kuburyo abawugendamo bagenda bumva akayaga keza kava mu biti.

Umuhanda munini kandi mwiza ku ruhande hariho inzira y'abanyamaguru, imodoka ziri kubisikana nta nkomyi kuko umuhanda ni munini bihagije, harimo ibikamyo byose biri kugenda kimwe kiri kubisikana n'ikindi.

Gare iherereye mu mujyi wa kigali ni gare nini cyane haparikamo amamodoka menshi hano haparitse imodoka nini ya bisi igendamo abagenzi benshi cyane, kuko bamwe baba bicaye abandi bakagenda bahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane ku ruhande ufite akayira k'abanyamaguru bacamo kugirango batabangamira ibinyabiziga mu muhanda, uyu muhanda kandi ni munini ku buryo ibinyabiziga binini bibasha kubisikana nta na kimwe gikoze ku kindi.

Umuhanda mwiza cyane. Uyu muhanda ni uwa kaburimbo, wubatse neza, kandi ni mugari. Ku ruhande harih akayira k'abanyamaguru, mu rwego rwo kwirinda impanuka zishobora kuba zaba. Ibinyabiziga bigenda muri uyu muhanda na byo bigenda nta nkomyi, kuko uyu muhanda ni munini bihagije.

Mu muhanda imodoka ziragenda neza nta nkomyi imodoka y'ubwoko bwa toyota, ikorera ikigo cyitwa shayini iki kigo uko bigaragara gicuruza amavuta y'imodoka niyo ibipakira ubundi ikabijyana ikabigeza ku bacuruzi bacuruza aya mavuta.

Inyubako nini baragaragaza ko iherereye Kibagabaga Kigali kandi barerekana ko iri kugurishwa amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu iki ni ikintu gishyirwa ku nzu cyangwa se gishyirwa ahantu umuntu ari kugurisha agamije ko abantu babona icyo agambiriye cyangwa se bamenya ko niba agiye kugurisha bamenya agaciro , igenagaciro ry'icyo kintu ashaka kugurisha .

Mu muhanda imodoka ndetse n'amapikipiki byose biragenda nta nkomyi kuko umuhanda ni munini kandi ni mugari, ndetse n'abanyamaguru nabo baragenda bisanzuye mu kayira kabo babasigiye ku mpera z'umuhanda.

Umuhanda mugari, munini kandi mwiza, wa kaburimbo, urasa neza, nta myanda iri mu muhanda. Ku ruhande hubatse amazu akorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Hari kandi n'imodoka y'idayihatso isa ubururu, barimo gupakiramo ibikoresho by'ubwubatsi.

Umuhanda mugari kandi mwiza wa kaburimbo ufite isuku, ibinyabiziga byose biragenda, imodoka yari ivuye i Nyanza ya Kicukiro iri kumanuka ijya Nyabugogo ariko igiye kubanza kunywa mazutu kugira ngo itaza kuzima abagenzi batageze muri gare ya Nyabugogo.

Iki ni ikinyabiziga kiri mu muhanda cya tagisi gitwara abantu batarenze cumi n'umunani, ikaba iri mu muhanda mwiza wa kaburimbo ndetse uboneye imodoka, harimo ibinyabiziga byinshi ndetse n'amatara yo mu muhanda ayifasha gutambuka.

Umuhanda mugari cyane usukuye kandi munini imodoka ziri kugenda, bwatangiye kwira kuko amatara yo mu muhanda bayacanye bigaragaza ko ari nyuma ya saa kumi n'ebyiri z'umugoroba, hari kugendamo amapikipiki ndetse n'ama modoka y'ubwoko butandukanye.

Ku nkengero y'umuhanda akenshi haba hubatseho amazu y'ubucuruzi, abacuruzi bari gutwara ibicuruzwa byabo bitewe nuko aba benshi bakoresha ingorofani kugira ngo babitware ari byinshi kandi mu gihe gito.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Umuhanda mwiza waba wa kaburimbo kandi munini ibinyabiziga byose biragenda ku ruhande basizeho n'akayira k'abanyamaguru kugirango nabo bagende bisanzuye, harimo umunyonzi utwaye mugenzi we hamwe n'imodoka y' itoyota isa umweru.

Imihanda ibiri iteganye, uwo haruguru ni kaburimbo, hari kugendamo umunyonzi utwaye umugenzi ndetse n'ipikipiki iriho umumotari na we atwaye umugenzi, kandi bose bambaye kasike kugira ngo impanuka iramutse ibaye babe birinze, hepfo harimo ikamyo ndetse na Daihatsu, hamwe n'umumotari n'ivatiri y'umukara.

Umuhanda mwiza munini wa kaburimbo usukuye hariho inzira y'abanyamaguru kugira ngo be kugenda bagongana n'ibinyabiziga, kumuhanda harimo imodoka iri mu bwoko bwa dahatso bigaragara ko imodoka itwara imiti.

Aha ni muri gare haparitse imodoka ebyiri z'ubwoko bw'itagisi hari n'indi modoka nini y'umweru abenshi twita coasiteri hari abagenzi bari kugenda n'amaguru bisanzwe bisa nkaho umuhanda nta kavuyo kenshi karimo nk'ibisanzwe kuko muri gare haba harimo abantu benshi cyane .

Umuhanda wa kaburimbo ni munini cyane ufite isuku, ku ruhande hateye ibiti byiza cyane kugirango abagenda muri uyu muhanda bagende bumva akayaga keza, hariho n'akayira k'abanyamaguru ndetse ku mpera z'umuhanda hariho amatara amurikira abagenda muri uyu muhanda mu ijoro.

Agace gakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, bafite n'umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, gusa uyu munsi nta kavuyo karimo yaba binyabiziga byose cyangwa abagenzi nabo si benshi. Abahungu babiri bose bari gusunikana ingorofani kugirango ibyo batwaye bireke kuremera cyane.

Umuhanda munini kandi mwiza usukuye, ufiteho akayira k'abanyamaguru, aho ibinyabiziga bigendera naho ni hanini harisanzuye, buri kinyabiziga kibasha kugenda nta nkomyi, ku muhanda kuruhande hateyeho ibiti byiza cyane, abagenda muri uyu muhanda baba bahumeka akuka keza cyane.

Mu mujyi wa kigali mu gace bita kari furi zone, harimo inzu zigiye zitandukanye zose haberamo ibikorwa by'ubucuruzi, hano tugeze haberamo ibikorwa bicuruza amafoto, ndetse n'ibindi bikoresho bigaragaza imico y'ibihugu bitandukanye.

Aha ni mu kibuga cy'umupira gikinirwamo imikino itandukanye, imbere hari aho abashaka kureba abakina bicara ariko bigaragara ntabwo hakwakira abantu benshi kuko aho kwicara hatwikiriye ni hato cyane.

Inyubako nziza ifite ibara ry'umuhondo bigaragara ko hari urugo mbonezamikurire y'abana bato rwa Byimana ruturanye n'izindi nzu nziza zisa kandi ndende.

Ikigo cy'amashuri ni kinini ni cyiza cyubatse neza, gifite inyubako zigerekeranye, bafite ikibuga cyiza kandi kinini cyo gukiniramo umupira, abana barishimye kandi bari gukina.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abakinnyi bari gukina ku ruhande, hateyeho amazamu. Inyuma y'ikibuga hari ibiti ku ruhande, hari umusore wunamye wambaye ikabutura y'ubururu. Hari n'ibikapu bibiri biteretse ku ruhande rw'icyo kibuga.

Inyubako nziza kandi nini cyane, ifite intebe nyinshi zigiye zikurikiranye, aho abantu ba baza bakicara igihe bari kureba umupira cyangwa se hari ibindi byahabereye, bituma haza abantu benshi cyane.

Ikibuga kinini gikinirwamo umupira w'amaguru, uyu munsi abakinnyi baje batinze ariko batangiye kwitegura kugira bakine, ku ruhande rw'iki kibuga hari aho ibinyabiziga bishobora kuba byaca cyangwa abandi baje kureba umupira ariko batari gukina bakaba bahahagarara.

Icyumba kinini kirimo intebe nyinshi ziteye ku mirongo ikurikiranye, bigaragara ko ariho abantu bicara bari mu nama cyangwa bari kwiga cyangwa se bari kureba umupira.

Ikibuga cy'umupira gikinirwamo basikete, iki kibuga hasi hasize amarange nkuko bigaragara aya marange amazeho igihe kuko amwe yatangiye kuvaho birakwiye ko basigaho andi kuko kigaragara nkaho gishaje.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho y'uruziga gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso ni ubururu ikirango ni umweru iki cyapa kimenyesha abayobozi ko umuhanda ukomeza ariko, hakaba hari n'undi muhanda ushamikiyeho bagomba kugenda bitonze.

Umuhanda mwiza, ikirere gihari kigaragaza ko bwatangiye kwira; hari icyapa giteye mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikirango gifite amabara atatu: umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpandeshatu, umuzenguruko ni umutuku ubuso ni umweru, ikirango ni umukara, iki cyapa kirereka abayobozi ko imbere aho bajya hari ikoni rikatira iburyo.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ibirango biri mu ibara ry'umukara. Iki cyapa kirereka abayobozi ko imbere aho bajya hari ikigo cy'amashuri basabwa kugenda bitonze.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpandeshatu, ku ruhande kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, imbere harimo ibara ry'umweru, ibirango biri mu ibara ry'umukara, bigaragara ko ari umugabo ufashe umwana ukuboko.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpandeshatu ku muzenguruko wacyo harimo ibara ry'umutuku, ubuso bwacyo ni umweru, ibirango biri mu ishusho y'umukara, iki cyapa kirereka abayobozi ko imbere ye hari aho abanyamaguru bambukira.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga umuzenguruko ni umutuku ubuso n'umweru ikirango ni umukara kiramenyesha umuyobozi w'ikinyabiziga yuko gukata ibumoso bidakunda agomba gukomeza imbere cyangwa se agakata iburyo.

Umuhanda mwiza cyane kandi mugari ibinyabiziga bigendamo nta kibazo. Ku ruhande basizeho akayira k'abanyamaguru. Ku ruhande kandi hari icyapa cyereka abayobozi ko imbere aho bajya hari Akanyaru ndetse n'akarere ka Huye. Hari n'ikindi kerekana ko abashaka Kibugabuga cyangwa Nyamiyaga, bakata umuhanda wundi uri ku mpande.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'umutuku, imbere ubuso n'umweru, ikirango n'umukara. Iki cyapa kirereka abayobozi b'amamodoka ko imbere aho bari kujya hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi.

Umuhanda mwiza cyane ufite isuku, ni mugari urasa neza. Kuruhande hateyeho indabo nziza cyane. Mu ndabo harimo icyapa kifite ishusho y'uruziga umuzenguruko ni umutuku ubuso numweru. Harimo ikirango kereka abayobozi ko bitemewe kuba baparika hano.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Agace gaherereye i Masoro gokorerwamo ibikorwa by'inganda, haracyarimo bya bimashini byubaka ndetse bikanasiza ibibanza, bigaragara ko hari urundi ruganda bateganya kuhubaka.

Inzu nziza nini kandi ndende zubatse zigerekeranye mu itaje, zifite ibipangu byiza zirasa neza zirasukuye n'umuhanda uri imbere y'abo ntago ari kaburimbo ariko urasa neza.

Inyubako nziza cyane kandi nini yubatswe mu buryo bugezweho ku buryo uyirebye wese atangazwa n'abayubatse, hakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Iyi nyubako kandi yegereye umuhanda wa kaburimbo ku buryo abakozi bakoreramo biborohera kuba bahagera.

Ameza afite ibara ry'igitaka ariho indangururajwi ifite ibara ry'umukara, idarapo rifite ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hakaba hariho abantu babiri bicaye bambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, karuvati ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, ikoti ry'umukara, hakaba hariho ishati y'umweru na karavati ifite iba ry'umweru.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bwa kera aho abantu batandukanye basohokera bakaza bagasangira bakarya bakishima, iyi nyubako ifite parikingi nini yubakishijwe amabuye.

Inyubako nziza kandi nini iherereye mu mujyi wa kigali, hasi hakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, ku nyubako ya kabiri na ho hakorerwamo ibikorwa by'amaresitora, hejuru harimo ibikorwa by'amahoteri.

Inyubako nziza, ifite amarangi meza cyane y'umweru, bigaragaza ko nyiri iyi nyubako ni umunyesuku cyane. Ku gipangu cye hejuru, yashyizeho utwuma tujombana, mu rwego rwo kugirango abajura ntibakaze mu rugo iwe.

Inyubako nini cyane kandi nziza, yubakishijwe amatafari ahiye, ku ruhande haracyariho ibicanga, bigaragara ko ibikorwa byo kubaka, bitararangira ari byinshi bagikeneye kongera kuri iyi nyubako, uko bigaragara ibikorwa bikorerwamo n'iby'inganda.

Inyubako nziza cyane nini kandi ndende iherereye mu mujyi wa Kigali, ifite amarangi meza cyane adapika kandi atuje. Imbere y'inyubako hari sitasiyo yitwa lubisi, aho imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga biza kunywera esansi.

Umuhanda munini kandi mugari ku ruhande hari inzu nziza cyane, zubatswe mu buryo bwa kijyambere , zisakaye neza ndetse n'ibipangu bizigize ni byiza cyane!

Mu muhanda uyu munsi abantu babayemo benshi kurusha ibinyabiziga harimo amapikipiki ndetse n'imodoka imwe gusa. Abagezi bose bari kugenda bigaragaza ko bagiye mu kazi kandi bakerewe bari kugenda bihuta.

Inyubako nziza cyane kandi ndende ni na nini irasa neza abayubatse bayubatse mu buryo bw'ubuhanga, imbere yaho bahateye umukindo mwiza cyane ku buryo abantu bashaka gufata amafoto bashobora kuhagarara bahifotoreza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza cyane kandi bugezweho aho ibikuta byose ureba ukabona ni ibirahure, iherereye i Remera hakoreramo ikigo cy'ubwizigame cyitwa Zigama, iki kigo gikoreshwa n'abantu bakora mu nzego z'umutekano.

Inyubako ishaje, ikeneye kuvugururwa. Gusa nyirayo yavuye kwaka icyangombwa mu buyobozi, kimwemerera kuba yayivugurura. Kubera ko abaturanyi be bafite amazu meza cyane, na we arashaka kubaka inzu igezweho nk'izi zabo.

Remera, mu mujyi wa Kigali harimo inyubako nyinshi cyane, zubatse mu buryo bugezweho. Kuhareba birasa neza, kuko uko buri nyubako irangiye, hagiye hateyeho ibiti bisa neza, bituma abatuye muri aka gace bahumeka umwuka mwiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite amarangi meza cyane ndetse ifite n'ibirahure byiza cyane bigezweho ku buryo iyo uhanyuze ukabyireberamo ubona indorerwamo nyubako ifite igipangu cyiza cyane kandi kinini mu imbere mu bucaca hateyemo imikindo myiza cyane.

Umuhanda mwiza cyane kandi munini abawubatse ku ruhande bashyizeho akayira k'abanyamaguru ndetse basigaho n'agahanda k'amagare, kuko batekerezaga ko kuba amagare n'ibinyabiziga binini nk'imodoka n'amapikipiki bibabigenda hamwe bishobora gukoresha impanuka. Ku ruhande hariho amazu akorerwamo ubucuruzi ndetse hari n'aho umu agenti wa MTN akorera.

Umuhanda ukeye urasa neza rwose nta myanda iri mu mihanda, hateyemo imikindo myiza cyane. Uyu muhanda urimo umutekano, ibinyabiziga biragenda mu mutuzo, nta kajagari kari mu muhanda.

Ibi ni ibiro by'ivunjisha kandi bitanga amafaranga biha agaciro k'abantu bazanye nimba amadolari bayajyana mu banyarwanda icyamuyarwanda bashaka amadolari kandi tukabona n'icyapa cyanditseho banki ya Kigali ubwo byemekana ko muri iyo nyubako harimo n ishami rya banki ya kigali kandi hariho na nimero wahamagara iyo nzu y'ivunjisha mu gihe ubabuze.

Umuhanda mugari cyane, imodoka zose ziragenda nta nkomyi, ari izizamuka cyangwa izimanuka zigenda zisanzuye, kuko umuhanda wubatse neza hano abanyamaguru nabo bafite inzira yabo ku buryo bigoranye kuba habera impanuka, keretse umuyobozi w'ikinyabiziga abaye agitwaye yasinze.

Umuhanda mwiza cyane kandi munini wa kaburimbo, imodoka ziri kugendamo zose zisanzuye ubu harimo imodoka ebyiri zisa nkaho ziri kubisikana zose zisa umukara harimo ipikipiki ndetse n'abanyamaguru bari kwambuka ariko hari imodoka isa umweru yishe amabwiriza kuko yanze kureka ngo abanyamaguru babanze batambuke.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda wubatswe n'abahanga kandi urakomeye kuko hejuru bahashyize undi muhanda nawo ukomeza ujya mu tundi duce, ku buryo kubireba ugira ngo ni ikiraro, hasi akaba ari amazi anyuramo kandi ni umuhanda.

Umuhanda aho abanyamaguru bambukira, gusa umunyozi ari kuhatambuka kuko nta munyamaguru uri kwambuka. Umuhanda kandi hateyemo imikindo myiza cyane, uyu muhanda ni mugari kandi ni mwiza ufite isuku. Nta bisashi bitereyemo cyangwa se ibicupa cyangwa indi myanda iyo ari yo yose.

Inyubako nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Iyi nyubako iragurishwa kandi ntabwo ihenze cyane ugereranyije n'ukuntu yubatse neza. Umuhanda wa kaburimbo nawo mu minsi mike cyaneba bawuhagejeje kuko n'abaturanyi bose batuye muri aka gace bafite amamodoka.

Mu mujyi wa Kigali Kicukiro santere ikiraro bari bari kubaka kigerekeranye cyaruzuye, urabona ko hasa neza ndetse n'amatara araka, umuhanda usa neza cyane imodoka zimwe zica hejuru izindi zigaca hasi.

Ihuriro ry'imihanda ni rinini cyane hagati hatemo imikindo myiza cyane ndetse harasa neza hafite isuku nta myanda cyangwa amashashi cyangwa ibicupa bitayemo, bigaragara ko abantu bose bagenda muri uyu muhanda bagira isuku kuko badata imyanda aho babonye.

Umuhanda munini kandi mwiza ufite isuku, hariho akayira k'abanyamaguru mu muhanda ibinyabiziga byose biragenda, yaba amapikipiki cyangwa se imodoka zitandukanye, uyu muhanda ni mwiza cyane nta mwanda urimo nta n'akajagari k'ibinyabiziga byose bigenda ku ku murongo.

Umuhanda mwiza cyane wubatswe mu buryo bugezweho uherereye i Kigali, ku Kinamba. Uyu muhanda uko bigaragara uri kure wagirango ni ikiraro, ariko hasi hacamo imodoka ndetse no hejuru hagacaho izindi modoka.

Umuhanda, mugari, munini, usukuye, uherereye mu mujyi wa kigali bagaragaje inzira abanyamaguru bambukiramo, muri uyu muhanda hacimo imirongo igiye inyuranamo ifite ibara ry'umuhondo.

Umuhanda ni mwiza kandi ni munini urasukuye ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru nta mpanuka yapfa kubera aha hantu, amapikipiki aragenda nta kibazo ndetse harimo n'amatara meza bigaragara ko na nijoro abantu bagenda kuko amatara aba bamurikira.

Icyangombwa cyerekana ibigomba kwishyurwa hakurikijwe amategeko cy'urwego rushinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti.

Vayibu riyo esiteti, aba ngaba bagufasha kuba wabona ibibanza byiza biri ahantu heza ukaba, wabona inzu zo kuba wagura mu gihe uzikeneye, kandi zifite ibyangombwa bitaguhenze kandi bya nyabyo byizewe.

Umuhanda mwiza munini usukuye wa kaburimbo ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru ndetse udutandukanyekanya akayira k'abanyamaguru no ku muhanda hariho amarangi meza cyane asa umweru n'umukara bigaragara ko uyu muhanda wubatswe vuba ndetse harimo n'ahari ubusitani hagati y'umuhanda aho abanyamaguru cyangwa imodoka byose bitanyura.

Umuhanda mwiza cyane kandi munini, amamodoka aragenda, ndetse n'abanyamaguru baragenda, n'iyo haba na nijoro. Kuko mu muhanda harimo amatara, kugeza abantu bageze iyo bajya. Ubu biroroshye, kuko na n'ijoro ugenda umurikiwe.

Umuhanda mwiza cyane uherereye mu mujyi wa Kigali, burije amatara bayacanye kugira ngo ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru bose bagende bamurikiwe ntabibabangamira, umuhanda urasukuye ntakavuyo karimo kandi hagati hateyemo ibiti by'imikindo myiza cyane.

Umuhanda mwiza kandi munini wa kaburimbo, ufite ibyapa kuruhande hari icyapa cyanditseho eyateri, harimo imodoka y'umukara, hariho inzira y'abanyamaguru, aho bambukira, hari na feruje.

Ihuriro ry'imihanda myinshi kandi yose myiza ni na minini, ku ruhande hateyeho ibiti byiza cyane hagati mu mihanda hateyemo imikindo myiza cyane, imodoka ziragenda nta nkomyi kandi n'ikirere cyaho kirasa neza.

Inyubako nziza cyane isa neza ni ndende kandi ni nini, ifite amarangi meza cyane ndetse hariho n'ibirahure. Impande y'iyi nyubako hari umuhanda mwiza cyane nawo wa kaburimbo, hateyemo n'ibiti bigaragaza ko abantu bahaca baba bahumeka akuka keza cyane.

Umuhanda munini cyane kandi mwiza usukuye wa kaburimbo, ku ruhande abawubatse bibutse gusigaho inzira y'abanyamaguru ihagije. Muri uyu muhanda hagati hateyemo imikindo myiza cyane ndetse n'umucaca. Hari inzira abanyamaguru bambukiramo aho dusigaye tubyita ngo ni zebra cross.

Umuhanda mwiza cyane kandi munini wa kaburimbo urasa neza nta kavuyo karimo nta n'imyanda iba iri mu muhanda baba bawusukuye, hagati mu muhanda harimo imikindo ndetse n'agacaca, ubirebeye kure ubona bisa neza, wabyegera ukabona birasa neza cyane.

Umuhanda munini cyane w'igitaka ku nkengero hariho amazu meza cyane bigaragara ko abatuyemo bishoboye, uyu muhanda barateganya nawo kuwushyiramo kaburimbo, kugira ngo abatuye aho uyu umuhanda uca bajye babasha kugenda nabo bisanzuye, haba no mu gihe k'imvura.

Umuhanda wa kaburimbo ufite isuku kandi mugari, ibinyabiziga biragenda ku ruhande bahasize akayira k'abanyamaguru, ndetse bibuka no kuhashyira akazu abanyamaguru bashobora kwicaramo igihe baruhuka cyangwag se bategereje imodoka.

Umuhanda munini kandi mwiza cyane urasa neza urasukuye nta myanda irimo, nta kavuyo k'abantu karimo nta n'akavuyo k'ibinyabiziga karimo, ku ruhande hari inyubako nziza, irasa neza, ifite n'amabara meza cyane.

Mu muhanda haratuje, nta binyabiziga byinshi biri kugenda, ndetse no mu kayira k'abanyamaguru nta bagenzi benshi barimo, uyu muhanda wubatse neza, ni uwa kaburimbo kandi ufite isuku, bigaragara ko abawugendamo bose ari abanyesuku, kuko imyanda bafite ntago bayita mu muhanda, ahubwo bayijyana ahabugenewe.